Igikuta kimanitseho ibipapuro by'ibishushanyombonera bifite amazu afite amabara y'umweru na oranje, bigerara muri bitatu ndetse hicaye n'umuntu wambaye itaburiya ifite amabara y'icyatsi ndetse n'abandi bantu babiri bicaye n'agacupa gateretse kumeza n'igipapuro gihari.

Umugore wambaye imyenda y'igitenge, ufite n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, wambaye n'agakarita mu ijosi gafite ibara ry'ubururu, ufite irangururamajwi mu ntoki, hari n'abandi bagore bahicaye, imbere yabo ku meza hateretse ibipapuro ndetse n'udukayi, hakurya hari n'abandi bicaye ku meza ifite ibara ry'umweru babiri bafite na mudasobwa imbere yabo ndetse n'imiryango y'umweru n'indangururamajwi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, bicaye mu nzu mo imbere ifite amabara ajya gusa ubururu ndetse ku meza ari imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, hateretse mudasobwa ndetse hamwe hanateretse amakayi, hagati hateyemo indabyo.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama bicaye ku ntebe hari kuvugira mu ndangururamajwi ku meza ari imbere yaho hariho igitambaro cy'ibara ry'umweru hateretseho amakaye bari kwandikiramo ndetse n'uducupa tw'amazi n'inyuma hari abandi bahicaye ku meza hariho mudasobwa ndetse n'ducupa tw'amazi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, bamwe bicaye ku ntebe zifite amabara y'icyatsi, abandi intebe z'umukara. Imbere yaho hari utumeza duteretseho amacupa y'amazi ndetse n'akandi kameza gateretseho ishakoshi, impapuro, terefone ndetse n'uducupa tw'amazi, hejuru bicaye mu ihema rifite amabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Inyubako ya sitade ifite ibyuma hejuru ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zifite ibara ry'umweru n'utwuma dutambitse ku mpande, hicayeho abantu benshi batandukanye bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'icyatsi hirya hari n'abandi benshi bahicaye.

Abagore batatu bicaye mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, ndetse n'ameza afite ibara ry'umutuku, bafite amakaramu mu ntoki, ndetse n'amakaye bari kwandikamo, ndetse hari n'uducupa tw'amazi duteretse kuri ayo meza.

Abantu bicaye mwigema rifite ibara ry' umweru, harimo abantu batandukanye, harimo abagabo, harimo abagore hari n' umuntu wicaye imbere ye hari igipapuro ndetse n' agacupa amazi, hakurya hari n' abandi bicaye mwihema, rifite ibara ry' icyatsi ndetse n' umuhondo nabo bameze nkabahagaze.

Inzu isize amabara y'umweru ndetse n'amarido agera muri atatu, harimo abagabo n'abagore bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara imbere yaho hari ameza afite ibitambaro by'ubururu n'umuhondo, imbere ya nano hariho mudasobwa, udukarine, amakaramu, ndetse n'uducupa tw'amazi, ndetse hagati hariho akameza gateretseho mudasobwa, imbere yaho hariho n'intebe.

Abagabo n'abagore benshi batandukanye bari mu nama, ku meza hateretseho mudasobwa, uducupa tw'amazi ndetse n'ibirahuri. Hari n'udukarine bari kwandikaho ndetse n'amakaramu, inyuma hari urukuta rw'ibara ry'umuhondo ndetse n'igishushanyo gihari.

Abagabo n'abagore bamwe bicaye abandi bahagaze inyuma yabo bari gukoma amashyi abandi bafite terefone mu ntoki, hakurya hari amaduka abiri afite ibara ry'umweru ndetse hari n'imodoka ziparitse zitwara abagenzi ndetse n'amatara k'umuhanda ahari.

Inzu inzu nini isize umucanga ndetse hari n'inzu ishaje ntoya, nyuma yaho hari ishyamba n'icyapa cyanditseho akanyaru, huye, muhanga; hariho icyapa kiriho akantu kazamuye ndetse n'ikindi gitambika hariho Ruhango, Kinazi

Umugabo n'umugore bicaye mu nama, imbere yaho ku meza hateretse amacupa y'amazi ndetse hateretse mudasobwa, hariho n'uturangururamajwi dutoya. Inyuma yaho hari ibirangantego bihamanitse biri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi byanditseho Kigali yacu.

Abantu bicaye mu nama umugabo n'umugore, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, inyuma yaho hari icyapa gifite ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hari n'umugabo uhagaze uri kuvugira mu ndangururamajwi, imbere ye ahafite ibipapuro.

Abantu benshi bicaye mu nama, bambaye imipira y'icyatsi, ndetse n'umupolisi, inyuma yabo hari abandi bicaye ku ntebe, imbere hari ameza ateretseho amazi n'imitobe, inyuma hari abandi benshi bahagaze, bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bari kureba ibyo bagura mw'isoko riri gucuruza amavuta n'amasabune..

Abagabo n'abagore ndetse n'abapolisi bicaye mu nama, bafite amakayeyi n'amakaramu mu ntoki, abandi bafite amaterefone bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, bicaye hanze hari inkingi ifite ibara ry'umutuku, inyuma hari icyapa kihamanitse kirimoho ibirangantego by'u Rwanda gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu beshi batandukanye bicaye mu nama, bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi, abicaye imbere, bicaye ku meza afite ibara ry'umweru n'umuhondo n'ubururu, hateretse uducupa tw'amazi na ji, ndetse bafite amatelefone mu ntoki, ndetse hari n'agaseke k'ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe bicaye mu nama, ku meza hateretseho ibipapuro n'amakayi, umwe afite ikaramu mu ntoki, ndetse hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'ibirahuri, inyuma yaho hari abandi bantu batagaragara neza.

Abagabo bicaye mu nama bicaye ku nte zifite ibara ry'umukara, imbere hari ameza afite ibitambaro by'umweru ndetse hari n'amacupa y'amazi ari imbere yabo ndetse n'udupapuro duhagaze dufite ibara ry'ubururu n'umweru twandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru hariho n'ikirangantego cy'idarapo ry'igihugu.

Abagabo babiri n'umugore umwe bicaye mu nama, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umukara, inyuma hari ibikuta bifite ibara ry'umuhondo wijimye ndetse hari n'ibipapuro bihamanitse, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi, mudasobwa, ndetse hari n'udukayi bari kwandikamo.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara uri kuvugira mu ndangururamajwi, imbere hari akabati gahagazeho kanditseho amagambo y'umweru, gafite ibara ry'ubururu ndetse inyuma ye hari icyapa cy'ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo afite ibara ry'ubururu.

Abantu bagera muri batatu bicaye mu nama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, ndetse n'ameza azengurutse afite ibara ry'umutuku, imbere yaho hari mudasobwa ndetse n'uturangurura majwi dutoya, hateretse icupa ry'amazi ndetse inyuma yaho hari ibikuta bifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'umuhondo iriho ikirangantego, ufite indangururamajwi mu ntoki uri kuvugiramo, ndetse na telefoni mu ntoki, hakurya hahagaze abagabo bambaye imipira y'icyatsi babiri n'ingofero y'ubururu, ndetse n'abandi bambaye imipira y'ubururu, hari n'ihema ry'umweru.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, inyuma hari undi uhagaze abicaye bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza hariho uturangururamajwi duto, mudasobwa, amacupa y'amazi ndetse n'impapuro n'amakaramu barimo barandikisha.

Abana b'abahungu benshi bahagaze bafite icyapa cyanditseho kwirinda sida, ndetse hari n'umupolisi wahagaze uri kubaha ababwiriza inyuma yaho hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite ibara ry'umweru ihagaze.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, bicaye mu nyubako ifite amarangi y'umweru, ku meza hateretseho amacupa y'amazi, hateretseho udukayi barimo barandikishamo ndetse n'amakaramu, hari mudasobwa ndetse hari n'umugabo uhagaze uri kuvuga ijambo.

Abantu benshi bari mu nama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'itapi ry'icyatsi ndetse hari undi uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse hari n'abandi bantu benshi bahagaze inyuma, iyo nzu bicayemo ifite ibara ry'umweru.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, inyuma hari igikuta cy'amabara y'umweru ndetse n'amarido y'umukara n'umuhondo, hari na televiziyo imanitse hejuru, abo bantu ku meza hateretseho amazi ndetse hateretseho n'amakarine barimo barandikamo.

Abagabo babiri n'umudamu umwe bicaye ahantu bicaye ku ntebe z'umukara imbere yaho hari ameza ateretseho amacupa y'amazi mudasobwa ndetse n'udukarira bari kwandikamo hateretsemo n'amakaramu bigaragara yuko abo bantu baricaye mu nama.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama bambaye imyenda y'umukara bafite n'amabara y'umweru bicaye ku meza ariho ibyo kunywa, ibirahure birimo amazi ndetse n'icyayi, amaterefone, amakaramu ndetse n'ibipapuro n'amakayi, hari n'umuntu ufite mudasobwa inyuma.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, bafite mudasobwa ku bibero byabo, bicaye ku nzu ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, imbere hari abandi bagabo bagera kuri bane bahicaye, inyuma hari tereviziyo ihari iri kugaragaza imibare makumyabiri yanditseho.

Abagabo babiri n'umugore umwe bicaye mu nama, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umukara ndetse n'ameza afite ibara ry'umutuku ku meza hari uturangururamajwi dutoya ndetse hari na mudasobwa zihari ndetse n'amacupa y'amazi, inyuma hari ibyapa bifite amabara y'ubururu n'umuhondo.

Abantu benshi bicaye mu busitani, bicaye ku ntebe z'umweru ndetse hari n'abana bicaye hasi, hashinze amahema afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, inyuma yaho naho hari ibiti bihari ndetse n'ibinyabiziga bihahagaze.

Abagabo n'abagore bari mu nama hari abari kwandika bifashishije amakaramu ndetse n'impapuro, hari abafite telefone ku meza bariho, hariho uturahuri ndetse n'amacupa y'amazi ndetse hejuru hari amatara arimo araka bicaye mu nzu inyuma ifite n'amadirishya ndetse n'amarido.

Abantu benshi bahagaze bari kwifotoza harimo abasore n'inkumi ndetse n'abagabo n'abagore, inyuma yaho hari ibyapa bifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru bigera kuri bitatu, hasi bahagaze ku itapi ifite ibara ry'ubururu ndetse inyuma yaho hari amarido afite ibara ry'umweru.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu nama bicaye mu nzu ifite amabara y'umweru ndetse bicaye imbere, hari ameza afite ibitambaro by'umuhondo icyatsi hateretseho amacupa y'amazi ndetse n'amacupa y'imitobe, hari ufite mudasobwa hari n'ibipapuro bihari .

Abantu bicaye mu nyubako ifite amabara y'umweru. Inyuma yabo hari igipapuro kihamanitse. Abo bantu bicaye imbere yabo hari ameza, ariho igitambara cy'umweru hateretseho amazi ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi bicaye mu nama hari abicaye hasi mu busitani, hari abicaye ku ntebe, ndetse n'abandi bahagaze, hagati hahagaze umuntu uri kuvuga ijambo, hari ibiti bibakikije ku ruhande ndetse hari n'inzu zihari ku mpande.

Abantu bagera kuri batatu bicaye mu nzu ifite igikuta cy'ibara ry'umuhondo n'abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bari kuganira, imbere yaho hari ameza ateretseho terefone, mudasobwa, udupapuro dutandukanye, ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi bicaye mu nama bicaye mu nzu isize amarangi y'umweru imbere hahagaze umuntu uri kuvugira mu ndangururamajwi ndetse hari na mudasobwa ihari abo bantu hari ameza imbere yabo afite ibitambaro by'umutuku hateretseho amacupa y'amazi ndetse n'ibipapuro .

Abagabo n'abagore bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe zifite ibitambaro by'umuhondo, imbere hari ameza yambitswe ibitambaro by'icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu, hateretseho amazi, hateretseho indangururamajwi, telefone, ndetse hariho n'ishakoshi.

Abagabo n'abagore bicaye mu busitani hasi bari mu nama, hari n'abandi bahagaze aho hantu hari ibiti byinshi bihateye, ndetse n'umuntu uhagaze hagati yabo uri kubavugisha, hari n'amazu ku ruhande ahari agera muri atatu.

Inzu yubatse hafi y'ishyamba ririmo ibiti byinshi amapoto marebamare ariho abatara amurika m'umuhanda urimo imodoka n'amamoto, k'uruhande indabo ubusitani.

Abagabo n'abagore bicaye mu ntebe bameze nk'abari mu nama, imbere yaho hayicaye abantu imbere hari ameza afite ibara ry'umutuku hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'udukarine, ndetse hari n'uturangururamajwi dutoya bicaye mu nzu ifite amarangi asa umweru.

Abagabo batatu n'umugore umwe bicaye mu nama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, ndetse n'ameza imbere yabo, ateretseho uturangururamajwi dutoya bari kuvugiramo, ndetse bafite udukarine mu ntoki ndetse n'amakaramu, hari n'amacupa y'amazi ahateretse.

Abantu bane bicaye mu nama abagabo batatu n'umugore umwe, bicaye ku meza ariho uturangururamajwi dutoya imbere yaho hari impapuro ndetse n'ibitabo ndetse ku meza hateretse imitobe n'amazi, inyuma yaho hari undi wicaye ufite kamera.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu ikorerwamo inama bicaye ku ntebe zifite ibitambaro bifite ibara ry'umweru ndetse n'ameza afite ibara ry'umuhondo n'umweru ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'ibirahuri n'impapuro bafite na telefoni imbere yabo, inyuma hari n'icyapa gihari cyanditseho amagambo ya ara ga na ba gifite ibara ry'umweru ubururu.

Umugabo wambaye amarineti ari kuvugira mu ndangururamajwi imbere ye hari ameza ariho agacupa k'amazi ndetse inyuma hari intebe yicayeho iri mumabara'umukara inyuma hari n'ibindi byapa bihamanitse biri mu mabara y'ubururu bwijimye ubururu bukeye ndetse n'icyatsi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama bari gukoma amashyi ndetse bicaye mu nyubako ifite ihema ryamabara y'icyatsi umweru ,ubururu ndetse n'umuhondo imbere yaho hari ameza atwikirije igitambaro cy'ubururu n'umuhondo ateretseho agatabo terefone ndetse n'ururabyo .

Ihema ryicayemo abantu batandukanye iburyo n'ibumoso hagati hahagaze umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi ndetse hakurya ye hari iyindi ndangururamajwi ku mpande hari inzu ifite amatafari ahiye ndetse n'amadirishya y'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari mudasobwa ifite ibara ry'umukara n'umweru, muri iyo mudasobwa ari gutunga urutoki kuri serivisi zo ku irembo, ndetse hari n'ahandi harimo watsapu, ahandi harimo ibindi bintu bitandukanye.

abantu bahagaze imbere y'umunara muremure ufite amabara y'umutuku n'umweru hari akazu gahari gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'amabati y'ubururu ukikijwe nuruzitiro rw'utwuma ku mpande hari ibiti bitandukanye bihateye

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umukara ndetse imbere yaho ku meza afite ibara ry'umutuku hateretse mudasobwa, hateretse amatelefone, hateretse amacupa y'amazi, imbere yaho hari undi mugore uri kubasobanurira inyuma hari ikibaho gifite ibara ry'umweru ndetse no ku mpande hari ibyapa bibiri.

Umunara muremure uri mu mabara y'umutuku n'umweru, ujitijwe n'utwuma twinshi dutandukanye, ku ruhande hari akazu gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'umuryango w'umukara, uwo munara uri ahantu hari umuhanda w'ibitaka, inyuma yaho hari ibiti ndetse hari n'abana bari kuhagenda.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'imurikagurisha hakikijwe n'amazu ya etaje maremare afite amabara y'ubururu ndetse hari uruzitiro rurimo ubusitani buteyeteyemo, ibiti hari abantu bari gutambuka, hari ihema rifite ibara ry'umweru, imbere hari ibicuruzwa bari gucuruza ndetse n'icyapa gifite ibara ry'ubururu.

Inyubako ndende iri mu mabara y'icyatsi, imbere hari utwuma duhari ndetse hari urupangu rwubakishije amatafari ahiye hariho umuryango w'ibara ry'icyatsi, hari n'akapa gahari, ku mpande hari ubusitani buhari bukikijwe n'amabuye ndetse hatewemo n'ibiti.

Icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda kiriho amagambo atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu, hariho inyubako zitandukanye ndetse hariho n'abantu b'abatetsi, abakanishi, abaganga, hariho n'umugabo ufite agakapu mu ntoki ndetse na telefone.

Ibyapa bimanitse ku nyubako zikorerwamo ubucuruzi hari icyapa gishushanyijeho amadarapo, hari icyapa nanone gifite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse hari n'inyubako ihari, hari n'umuhanda wa kaburimbo uteye n'ibiti ku muhanda.

Inyubako isize amarange y'umweru, hejuru hari akapa kanditseho irembo k'ubururu, amagambo yandikishijwe umweru ndetse n'amadirishya y'umweru n'inzugi z'umweru, mobimbere hicayemo umuntu uri gukoresha mudasobwa ku meza y'urubaho.

Inzu isize amarangi y'ibara ry'umweru ndetse n'amakaro hasi ,hejuru hari akapa gafite ibara ry'ubururu kandiikishijweho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse amadirishya n'imiryango y'ibara ry'umweru ,imbere hicayemo umuntu wambaye ingofero ndetse na mudasobwa ziteretse ku meza.

Ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, hariho abantu bakora imirimo itandukanye, abatetsi, abakanishi, abaganga, ndetse n'abantu bakora serivisi zitandukanye z'ubucuruzi.

Umusore n'inkumi bahagaze, bambaye amajire afite ibara ry'icyatsi ndetse n'ingofero, umwe yambaye ingofero y'icyatsi ndetse n'umweru, mu ntoki zabo bafite mudasobwa, bahagaze imbere y'umunara ukikijwe n'utwuma dufite ibara ry'umweru ndetse n'udutsinga hejuru, hagati harimo umunara ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Ipoto ry'amashanyarazi rigiye kugwa, riri ku muhanda rifite intsinga, hari ubusitani buhari bw'indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse buconze neza, hari n'akayira k'abanyamaguru ndetse mw'imbere harimo inyubako.

Ipoto y'amashanyarazi ndende, ifite insinga nyinshi zitandukanye, hasi hateye ibigori ndetse n'ibindi byatsi byinshi bitandukanye, ndetse hari n'inyubako iri mu mabara y'ubururu, umutuku, ndetse n'umweru, ifite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye.

Umuhanda uri kunyuramo abanyamaguru, hariho iooto ry'amashanyarazi rifite insinga nyinshi ndetse hari ibinyabiziga biparitse imbere y'amaduka agera kuri abiri, hariho umutaka wa emutiyeni ndetse n'akabati ndetse n'amaduka akorerwamo ubucuruzi.

Amapoto abiri ahagaze hagati harimo utundi dutambitse hariho insinga z'amashanyarazi nyinshi zitandukanye ziri kujya mu mpande zitandukanye ku mpande hariho ibiti bihateye ndetse n'ubusitani buhari bukikijwe n'utubuye dufite ibara ry'umukara n'umweru.

Umunara w'itumanaho ushinze ahantu mu butaka hari ibyatsi, ndetse hari n'urukuta rw'amatafari, hejuru hateretse ikintu cy'icyuma, munsi yaho hari inzu ifite amabati afite ibara ry'umutuku, hari n'urutoki ruhakikije, hakurya hari n'andi mazu afite amabati ameze nk'ashaje.

Ipoto y'amashanyarazi iri kumuhanda ifite insinga nyinshi, Hari ikinyabiziga kihahagaze hari igiti hari inyubako ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umuryango w'ubururu, harindi nyubako iri hakurya izitijwe n'urupangu rufite amabara y' yumuhondo ndetse n'icyatsi n'umuryango wumukara ndetse ifite n'amabati afite ibara ry'umutuku.

Umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bya moto ndetse n'ibindi binyabiziga bihagaze, hari abantu bari gutambuka, hari ibyapa ku muhanda bishushanyijeho umuntu wambaye ishati y'umutuku ndetse hari ipoto y'amatara n'amashanyarazi ndetse hari n'ibiti birebire bihateye ku muhanda n'inyubako zihari.

Umuhanda wa kaburimbo ku muhanda hari amapoto y'amashanyarazi afite insinga nyinshi ndetse hari inyubako zihari zitandukanye zirimo amabara y'icyatsi y'umuhondo zikorerwamo ubucuruzi ndetse hari n'icyapa cyanditsemo umubare mirongo itandatu hari ubusitani ndetse hari n'ibiti bihateye.

Inzu ebyiri zifite amatafari ahiye zifite n'igisenge, hejuru hamanitseho ikintu gishyushya amazi ndetse hariho ipoto ry'amashanyarazi rifite insinga nyinshi hariho n'ibyapa byamamaza ubwishingizi ndetse n'iduka rikorerwamo irembo.

Umuhanda uri gucamo ikinyabiziga cya moto, gifite agasanduku inyuma k'icyatsi ku muhanda hari ipoto y'amashanyarazi, ndetse n'umunara muremure ndetse n'ipoto ry'amatara yaka ku muhanda, ndetse n'ubusitani burimo ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo hari n'itara ryo ku muhanda ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga zitandukanye ndetse hari n'ubusitani burimo ibiti bitandukanye byaba ibigufi n'ibirebire, hariho n'urupangu rw'amatafari ahiye harimo inzu ifite amabati y'ubururu.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu urwanda.

Akayira k'abanyamaguru, ku ruhande harimo ubusitani buteyemo indabyo, ndetse buhagazemo ipoto ry'amashanyarazi, hari n'urupangu rurimo inzu zigera muri eshatu, ebyiri ngufi ndetse n'indi ndende, zifite ibintu hejuru.

Umurima w'ibigori uteyemo n'ibindi byatsi bitandukanye harimo ipoto ry'amashanyarazi rifite insinga zitandukanye zigenda zohereza mu zindi poto zo ku ruhande ndetse harimo n'inzu ifite ibara rijya gusa umuhondo.

Ipoto ririho itara hejuru, rifite n'itsinga ry'amashanyarazi, ku ruhande hari igiti kirekire, ndetse hari n'ubusitani buteyemo indabyo zifite ibara ry'umuhondo, hari n'urupangu rufite ibara ry'umweru, hejuru ririho udutsinga.

Umuhanda uparitsemo ibinyabiziga bya moto, hari abanyamaguru bari kwambuka ndetse n'abandi bagenda, hari ibindi binyabiziga bitandukanye birimo biragenda yaba ibinyabiziga bitwara abantu, yaba ari ikamyo iifite amabara y'umutuku ndetse ku muhanda hari n'iminara y'amashanyarazi ndetse n'amatara ku muhanda.

Ibiti birebire biteye ku muhanda ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi ifite insinga, hari ibinyabiziga biri gutambuka mu muhanda w'ibitaka ndetse hari n'inyubako iri hirya ifite urupangu rw'amatafari ahiye mu imbere harimo inzu ifite amabara y'umweru.

Ipoto y'amashinyarazi iri ku muhanda, ifite insinga nyinshi nzitandukanye, munsi yayo hahagaze abantu, ndetse hari urugo rufite indabyo ku muhanda, ndetse mo imbere harimo inyubako zigera muri ebyiri, zifite amabara y'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku ndetse na atente ya tereviziyo iri hejuru y'amabati.

Umuhanda wa kaburimbo, uriho amapoto hariho itara, ahandi hariho insinga z'amashanyarazi ndetse hariho jaride, ku muhanda hari igipangu gisize ibara ry'umuhondo, harimo n'amazu asize ibara ry'umutuku, hakurya harimo zihaparitse zitandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umukara ninzugi z'umukara; hari abantu batatu bicaye ku gisimba gifite ibara ry'umukara, ndetse hari nundi wicaye hakurya wambaye akantu mu ijosi gafite ibara ry'umuhondo ,ndetse hari nundi wicaye hakurya utari kugaragara neza, wambaye ikanzu ifite ibara rya move.

Inzu ndende igeretse kabiri hejuru ifite akapa kanditseho kingi fayisali hosipito. Gafite ibara ry'ubururu, ndetse hari n'ubusitani buhari buzengurutse bwanditsemo amagambo ndetse harimo amabendera agera kuri atatu arimo ndetse n'akapa k'ubururu karimo indabyo zitandukanye, hari kugenda abantu hari kugenda umugore ufite umutaka, ndetse n'abandi bantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Imodoka zitandukanye ziparitse ahantu hari inyubako munsi yaho ndetse hakikijwe n'ubusitani bw'indabo n'ibiti birebire ndetse hari n'abantu bari kugenda hari n'akapa kayobora abantu ndetse n'akandi kantu gahagarika imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo imodoka zigera muri eshatu ndetse hari umudamu wicaye ufite telemusi n'igikapu; kuruhande rwe hari ubusitani burimo indabo z'umuhondo hirya hari utwuma dukikije inyubako ihari ifite irangi ry'umweru abantu barimo barinjiramo imbere.

Umudamu uri kugenda wambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'ishati y'umweru ufite ibipapuro mu ntoki, hari n'ubusitani bw'indabo z'umuhondo ndetse n'itara, hari n'igiti kirekire ndetse hari n'izindi nyubako zihari zikikijwe n'utwuma tw'umweru zifite amabati y'umutuku.

Ubusitani bw'indabo ziconze hateyemo n'ibiti ndetse harimo n'utwapa mo hagati, hirya hari imodoka zitwara abarwayi zigera muri enye, hari n'inyubako ifite amabara y'umuhondo ndetse n'iyindi igeretse hejuru hariho n'idarapo ry'igihugu.

Inyubako zigera kuri ebyiri zubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, ku mpande hariho utwuma tuhakikije, ndetse hariho n'ubusitani bw'indabo ngufi, ndetse n'ibiti bibiri birimo, ndetse hari n'ibyapa ku muhanda bigaragaza ibitaro bya Kabgayi ndetse hari n'ubundi busitani buhari.

Ubusitani buriho indabyo z'icyatsi n'umuhondo ndetse hateyemo n'ikindi giti kirekire mo hagati, hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, urubaraza rufite utwuma tw'ubururu, hahagaze umuntu ndetse hakurya hari n'indi nyubako imbere yaho hahagaze abantu babiri.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru, ndetse n'abamugaye. Harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Inyubako ya etaje igereretse gatatu, ifite amabara y'ubururu bwijimye ndetse n'umweru kumpande hari utwuma dufite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi z'umuhondo iri kwakamo amatara.

Akayira k'ibitaka kariho urukuta rwubakishijwe amatafari ahiye hariho n'itara, hamanitseho icyapa cy'umweru cyandikishijwemo amagambo y'umukara ndetse n'igishushanyo cy'ijisho gifite umukara ndetse n'icyatsi. Hakurya hari ibyatsi bihari, mu imbere harimo inzu ifite igisenge cy'amabati atukura.

Inzu isize irangi rifite ibara ry'umuhondo; hari udutebe two kwicaraho abantu tugera muri tune, ndetse hari n'umugabo uhahagaze ku rubaraza. Hakurya yaho hari iyindi nzu na yo ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'amadirishya y'ubururu. Hari n'urundi rubaraza rukozwe mu byuma.

Umudamu uhagaze mu nzira inyuramo abanyamaguru, ari kuvugira kuri telefone, hejuru hari ibiti bihateye ndetse hari ipoto ry'amashanyarazi hari na kaburimbo, hakurya hari inyubako ifite amabara y'umuhondo, ndetse hari n'imodoka zitwara abarwayi zihahagaze.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukantoki k'umweru n'agapfukamunwa k'umweru ari gutera urushinge umusore wambaye ishati y'umukara, isaha ku kuboko y'umukara ndetse uwo musore nawe yambaye agapfukamunwa.

Abagabo n'abagore benshi bari mu nama bambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, bambaye n'ingofero z'umukara ziriho n'utuntu tw'umuhondo, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu ndetse hari n'inkingi zifite amabara y'umweru.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu Rwanda.

Abapolisi batatu bari kugenda bambaye imyenda y'umukara, ndetse bambaye n'udupfukamunwa ku kumunwa hariho n'umugabo wambaye agapfukamunwa wambaye amapingu mu ntoki wambaye ikositimu, inyuma hari umugabo wambaye ishati y'umweru nagapfukamunwa ndetse n'imodoka ihagaze ya ribu ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu bane bicaye ku ntebe, babiri b'inyuma, imbere hicaye umugore wambaye ikanzu y'umutuku, irimo utuntu tw'umuhondo ndetse n'agapfukamunwa, anafite urupapuro mu ntoki, ku ruhande rwe hicaye umugabo wambaye imyenda y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara, ufite telefone mu ntoki ndetse n'igitabo mu ntoki.

Umusirikare wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, ipantaro, ishati ndetse n'inkweto z'umukara ndetse n'ingofero ufite imbunda mu ntoki, ku ruhande rwe hariho umugabo acunze wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ivu ufite icupa ry'amazi mu ntoki, ndetse ufite n'amapingu mu maboko ndetse wambaye n'amarineti inyuma yaho hari ingazi.

Abagore bicaye hasi mu busitani, ndetse hateye n'ibiti birebire, hari abandi bicaye ku ntebe, imbere yaho hari utameza, hari umugabo uhagaze ufite umutaka, ndetse hari n'undi mugabo wegamiye igiti,

Umugore umwe n'abagabo batanu bicaye ku meza, bambaye udutambaro mu ijosi, dufite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere yabo hari ibitabo ndetse hari umuntu uri kugaragara amaboko gusa, ndetse imbere yabo ku meza hateretse agasanduku.

Abagororwa bambaye imyenda y'iroza, bafite n'udupfukamunwa, bambaye n'amapingu mu ntoki, inyuma yabo hari abantu babacunze bambaye ingofero ndetse bafite n'imbunda mu ntoki, hari n'ibiti ku mpande ndetse hari n'ameza barimo baragenda bakaraba intoki.

Ikirangantego cy'ubushinjacyaha bukuru kiri mu mabara ubururu ,icyatsi ndetse harimo n'igishushanyo cy'izuba kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse hasi hari andi magambo yanditseho ku neza ya bose ari mu mabara y'icyatsi .

Inyubako ndende ifite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, hejuru handitseho amagambo uko ari gereza ya Nyanza ndetse hari n'icyapa kiri ku ruhande, muri iyo nyubakomo mu imbere hateyemo ibiti ndetse haruguru yaho hari ishyamba ry'ibiti binini, ifite urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye.

Abapolisi babiri b'abagore bafashe undi mugore mu ntoki, wambaye ikanzu y'umukara n'umweru n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, wambaye amapingu mu ntoki. Inyuma hari abandi bapolisi bagera kuri batatu nanone bafite undi mugore wambaye igitambaro mu mutwe, ku ruhande hari umucamanza.

Imodoka ya polisi, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse harimo n'ibindi binyabiziga bya moto, bimwe biri kuzamuka, ibindi biri kumanuka, ku muhanda kandi hari ipoto ry'itara ndetse hari n'ibiti birebire bihateye, hari n'urukuta rufite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka ebyiri za polisi ndetse n'umupolisi, hasi ye hari icyombo ndetse hari n'igiti kirekire gifite amashami menshi, ku ruhande hari n'urupangu rufite ibara ry'umweru.

Inyubako ya etage ifite akapa hejuru k'ibara ry'umweru kandikishijweho amagambo y'ibara ry'ubururu ndetse n'ikirangantego cya polisi munsi yaho hahagaze abantu ndetse hari n'ibinyabiziga bihagaze.

Abantu bahagaze mu muhanda umugabo wambaye ipantaro yumukara numupira w'ubururu, hasi hari agafuka k'umweru ndetse n'umutuku ndetse hari na kizimyamwoto, kuruhande hari umuntu wambaye itaburiya y'icyatsi ndetse n'umukobwa uri kugenda wambaye ikanzu ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umupira wo kwifubika wamabara y'ubururu n'umweru.

Inzu ndende igeretse kane ifite ibara ry'umweru n'umukara, ifite amadirishya arimo utwuma tw'umweru, hasi hahagaze imodoka za polisi zigera muri eshatu, hari n'ubusitani bw'indabyo z'umuhondo ndetse n'ibiti birebire.

Abamotari benshi bahagaze mu muhanda n'abandi bahagaze mu kayira kanyuramo abanyamaguru, ndetse ku muhanda hateye imikindo hari abapolisi bahagaze mu muhanda, ndetse hari n'ibindi binyabiziga biri gutambuka, ndetse n'ibindi bihagaze hakurya hari ahantu hateye ibiti ndetse hari n'amaduka acururizwamo.

Imihanda ibiri ya kaburimbo itandukanijwe n'ubusitani buteyeho indabyo zikiri ntoya, hakurya hari kugenda abanyamaguru, umupolisi ndetse n'undi muntu usanzwe, naho hateye ubusitani n'akayira kanyuramo abanyamaguru, hari n'igiti gihari ndetse hari n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifite amadirishya y'umukara.

Abantu benshi batonze imirongo imbere y'imiryango igera kuri ibiri, ndetse kuri iyo miryango hariho akabaraza hariho inkingi z'ubururu ndetse n'icyatsi n'umuhondo, hejuru hamanitse udutako dufite ibara ry'icyatsi ubururu n'umuhondo, iyo nyubako ifite amabati afite ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bicaye mu nama umugabo n'umugore bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, bari gukoma mu mashyi hagati yabo hari akameza gateretseho amacupa abiri y'amazi, inyuma hari icyapa cy'ikirangantego gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umugore wicaye ku ntebe y'umweru , umugore wambaye ikanzu y'ubururu ndetse na marinete, kuruhande rwe hariho umutako uhagaze, ugaragaza igishushanyo cy'umugore wikoreye agaseke ku mutwe, kuruhande hari agatako gafite akantu k'umuhondo.

Abagabo babiri bahagaze ku kumukeka, umwe uhagaze ufite urupapuro mu ntoki uri kuvugira mu ndangururamajwi, ndetse n'undi uhagaze ufite urupapuro mu ntoki inyuma yaho hari abadamu babiri bahicaye bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo hari ameza inyuma hari icyapa gishushanyijeho ifoto y'umuntu ndetse hari n'abandi bantu babiri bahagaze bagifashe.

Abagore benshi batandukanye, bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bafite utubendera dutoya dukozwe mu bipapuro twanditse ho efuperi, ndetse bafite n'ibendera rinini, ndetse bafite n'ikirangantego kiriho ifoto y'umukuru w'igihugu, gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'utumeza imbere yabo duteretseho indangururamajwi, inyuma yaho hari amadarapo abiri atandukanye, idarapo ry'igihugu, ndetse hagati hahagaze umukuru w'igihugu, ari kuvuga ijambo ahagaze ahantu hari indangururamajwi.

Umuntu uri kuvuga ijambo, uhagaze, ufite akabati k'umutuku, kariho arangururamajwi, ndetse hari n'abantu bicaye benshi imbere yabo hari uturangururamajwi, hari amacupa y'amazi ndetse hasi hasize amabara y'umutuku, inyuma hari indi myanya iri mu mabara y'ubururu.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama bicaye ku ntebe zifite amabara y'umukara. Ku meza hariho uturangururamajwi dutoya, hateretseho mudasobwa, ndetse hateretseho n'amacupa y'amazi ahari.

Abantu batatu bahagaze, uhagazemo hagati ari kuvugira mu ndangururamajwi afite n'igipapuro mu ntoki, ndetse inyuma ye hari abandi bicaye hari n'ibyapa bimanitse bishushanyijeho umuntu hari n'amazu ari hakurya afite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu hari n'umuntu uhahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya moto bigera kuri bitatu, hakurya hari akayira k'abanyamaguru hariho icyapa kimanitse ku muhanda kiriho ifoto y'umukuru w'igihugu ndetse hariho n'ifoto y'ikiganza handitseho tora Kagame Paul, hari n'umunyamaguru uri guca muri uwo muhanda.

Abantu bicaye mu nyubako iri kuberamo inama, ni abadamu bagera kuri bane bagaragara imbere, bambaye imyenda y'umuhondo, ubururu, imbere yabo hari imeza iteretseho imitobe y'umuhondo ndetse n'amazi ndetse n'udutabo, kandi na none bambaye udukarita mu ijosi, dufite imigozi ifite ibara ry'ubururu, inyuma yaho na ho hicaye abandi bantu benshi batandukanye.

umugore wambaye umukenyero ufashe ku ibendera ry'igihugu ufite indangururamajwi ari kuvugiramo umanitse akaboko ndetse n'umugabo wambaye ikanzu y'umweru n'ikoti ry'umukara nawe ufashe ku idarapo ry'igihugu uzamuye akaboko uri kuvugira mu ndangururamajwi inyuma hari n'utubati

Mo imbere mu nzu hasizemo irange ry'umuhondo ndetse harimo n'ibitambaro by'icyatsi n'umuhondo harimo abantu bagera kuri batatu abagabo babiri n'umugore umwe, umugabo umwe ari kwinjiza urupapuro mu gasanduku k'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga kiriho amafoto yamamaza amavuta ariho n'igishushanyo cy'umukobwa ndetse hari ibiti bihateye ku muhanda, hari n'izindi nyubako zihari kuri uwo muhanda.

Inzu yubatse hafi y'ishyamba ririmo ibiti byinshi amapoto marebamare ariho abatara amurika m'umuhanda urimo imodoka n'amamoto, k'uruhande indabo ubusitani.

Ikinyabiziga kiri guca mu muhanda wa kaburimbo gifite ibara ry'umweru hejuru hariho ipine hari n'aho abanyamaguru bagenda hariho umuntu uri guhinguka wambaye umwenda w'ubururu, ndetse ku muhanda hari n'ibiti bihateye bikikijwe na senyenge zihari.

Imodoka itwara abagenzi irimo abagenzi ifite ibara rya oranje ndetse n'umweru, hari kugenda mu muhanda umuntu wambaye isarubeti ifite ibara ry'ubururu, ndetse hakurya hari inzu ifite ibara ry'umweru, ifite n'amadirishya afite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri kunyura mu muhanda gifite ibara ry'umweru, inyuma hicaye umuntu wicaye ku ihema ry'umukara, ndetse hari na moto iri gutambuka, ndetse ku muhanda hari amatara, hari n'ibiti bihateye, bikikijwe na senyenge z'ibara ry'icyatsi, ndetse hari n'abantu bari kugenda n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kwambukamo umunyamaguru wikoreye umufuka, harimo ibinyabiziga bitandukanye hari ikinyabiziga cy'umweru gifite kontineri hejuru, ndetse hari n'ikinyabiziga gitwara abagenzi gifite ibara ry'umweru n'ubururu, hari gucamo ibinyabiziga bya moto ndetse n'abantu bari kwambuka, hakurya hari n'ama etage ndetse n'amatara ku kumuhanda.

Umuhanda nijoro harimo abamotari benshi baparitse ibinyabiziga byabo, bambaye amajire y'umuhondo ndetse n'ubururu bambaye n'ingofero z'umuhondo hari n'abantu batanga amayinite yaba ayaeyateli na emutiyene hari n'amaduka ku ruhande arikwakamo amatara.

Ibyapa byo ku muhanda byamamaza tembera u Rwanda, hariho ibyapa bishushanyijeho ibiti, ndetse hari n'icyapa gishushanyijeho ababyinnyi b'intore, hari icyapa gishushanyijeho ikiraro kiri muri nyungwe ndetse n'ishyamba, hari n'icyapa cyo ku muhanda gishushanyijeho imodoka ndetse hari n'utugozi ku ruhande dufite ibara ry'umutuku n'umweru.

Umuhanda uri gucamo ibinyabiziga, ikinyabiziga cy'ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru kirekire ndetse hari n'ikindi kinyabiziga kiri guhinguka gifite ibara ry'umutuku, hari n'abanyamaguru bari gutambuka, umunyamaguru umwe uri gucunga ipine mu ntoki ndetse n'undi munyamaguru wikoreye umufuka hakurya, hateye ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga cy'amapine menshi gifite ibara ry'umuhondo n'umweru hari ikindi kinyabiziga cy'igare kikoreye umufuka ndetse hari ibindi binyabiziga biparitse hakurya y'umuhanda ndetse hari inyubako ihari hari ipoto ry'amashanyarazi ndetse inyuma hari n'ibiti bihateye .

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga hari ikinyabiziga cya moto, hari ikinyabiziga kindi gisanzwe hejuru cyicayeho umuntu ndetse hazirikiyeho n'ibyuma hejuru hari umunyamaguru uri kugenda ndetse hari n'uruzitiro rufite igitambaro cy'ibara ry'icyatsi gikikijwe n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga gihetse ibintu inyuma gifite ibara ry'umweru hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari n'akaruhurura, hakurya hateye ibiti ndetse n'amatara kumuhanda, haparitse ibindi binyabiziga harimo ibikururana, ibinyabiziga bisanzwe ndetse hari n'abanyamaguru bari kugenda.

Imodoka itwara abagenzi ara,a,efu, zeru mirongo itatu n'umunani ha, hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara, wambaye ishati irimo amabara y'umweru, move ndetse n'umukara, kuri iyo modoka hejuru hari umuzigo.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, hari ikinyabiziga kinini cyikoreye umucanga gifite ibara ry'umutuku, ndetse hakaba n'ikinyabiziga gitoya gifite ibara ry'ubururu, hakurya hakaba hari inyubako barikubaka igeretse kabiri ariko itararangira, hakaba hari n'indi nyubako yarangiye ifite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo abamotari batwaye ibinyabiziga bya moto, hari aho abanyamaguru bambukira, hafite ibara rijya gusa umweru, ndetse n'ibiti biteye ku muhanda, ndetse n'amatara yo ku muhanda ahari agera muri atatu, hepfo hari n'ahandi hanyura undi muhanda utambika iburyo.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bibiri ikinyabiziga cy'igare gitwawe n'umuntu wambaye ijiri y'icyatsi, ndetse n'imodoka iri mu bwoko bwo gutwara abagenzi, ifite ibara ry'umweru n'icyatsi hari n'akayira k'abanyamaguru bacamo ndetse hakurya hari ubusitani buteyemo pasiparumu ndetse n'ibindi biti hari n'urukuta rw'amabuye.

Ku muhanda wa kaburimbo hari gucamo ibinyabiziga, ikinyabiziga cya rifani, ikinyabiziga cya moto, ku ruhande hari inyubako igeretse rimwe ikorerwamo ubucuruzi hejuru hamanitseho icyapa, munsi nabwo hariho icyapa, haparitse n'imodoka hari n'abantu bari gutambuka.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu utwaye ikinyabiziga cya moto, ageze ahantu abanyamaguru bambukira, harimo amabara y'umweru n'umukara, ndetse hari n'ubusitani buteyemo ibiti byinshi bitandukanye, hari n'inyubako ifite amabara y'ubururu n'umweru, hari n'itara ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo umumotari utwaye ikinyabiziga cya moto, utwaye n'umudamu, hirya hari inyubako ikikijwe n'utwuyuma dufite ibara ry'umweru, ndetse hari ipoto ku muhanda, hari igiti, hari urukuta rw'amatafari y'umweru, hari urugi rw'umukara mo imbere harimo inzu ifite amabati afite ibara ry'umutuku.

Ibinyabiziga biparitse hagati mu mujyi ndetse hari abanyamaguru ndetse n'abagenzi, bamwe bari kugenda abandi batonze imirongo, hari amatara ku muhanda ari kwaka n'izindi nyubako, ndetse hari akazu gafite amabara y'umweru gashushanyijeho imodoka, ndetse ku ruhande hari ingororofani zigera muri eshatu zihagaze hari na ruhurura.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga by'imodoka ndetse na moto, hari ubusitani bukikijwe n'utubuye tw'umukara n'umweru buteyemo imikindo igera kuri itatu ndetse hari n'umuntu uri kubukorera isuku, hakurya hari izindi nyubako zifite ibyapa ku muhanda bimanitse.

Umuhanda uhagazemo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwihariye, ifite ibara ry'umweru, hejuru ifite akapa kanditseho taxi, iruhande hari igipangu gifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, mo imbere harimo ibendera ry'igihugu rifite amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hakaba hari n'imodoka yindi ihagaze ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bibibri bitandukanye kimwe kiri kumanuka ikindi kiri kuzamuka bifite amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu ndetse ku ruhande ndetse hari ruhurura hakurya hari abanyamaguru bari kugenda ndetse hari n'ubusitani buteyemo ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ikinyabiziga ndetse hari n'aho abanyamaguru bagendera, inyuma hari ikindi kinyabiziga cya moto ndetse n'undi muntu utwaye igare, muri uwo muhanda ku mpande zaho hateyeho ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya rukururana, hari n'ikindi kinyabiziga cy'igare, hari ibindi binyabiziga biparitse hakurya, hari n'ibiti bihateye ndetse hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari na ruhurura ku ruhande iteyeho n'utwatsi ku mpande.

Umuhanda uparitsemo ibinyabiziga bibiri, ikinyabiziga cya mbere gifite utwuma hejuru ndetse mo imbere hapakiyemo ibintu bitandukanye harimo; amakarito, imifuka ndetse n'ibindi bintu birimo imbere ikindi kinyabiziga cyikoreye shitingi hejuru ndetse hasi hari n'abantu barimo barapakiramo ibintu.

Umuhanda wa kaburimbo ufite udusima tw'umukara n'umweru, muri uwo muhanda hari kugendamo imodoka itwara abantu mu buryo bwihariye, ifite ibara ry'umweru, ku ruhande ifite ibara rya oranje ndetse hejuru hari akapa kanditseho tax k'umuhondo. Kuri uwo muhanda hateyeho ibiti bitandukanye ndetse n'indabyo, hariho ibiti by'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo, uparitse mo ikinyabiziga cyikoreye ibyuma hejuru, ahagaze abantu bari guhambura imigozi izirikishijwe ibyo byuma, hari inyubako hirya zifite ibyapa ku muhanda bishushanyijeho, ndetse iyo nyubako igeretse kabiri.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo umuntu uri gusunika ikinyabiziga cy'igare; inyuma cyikoreye umufuka uziritseho, hari ruhurura ndetse n'ubusitani butagaragara neza, hakurya hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari n'ipoto rifite ibara ry'umweru ndetse hari n'ibindi biti biteye hakurya

Imbere yanjye ndahabona dayihatso y'umweru iri kugenda muri kaburimbo. Ifite karisoro, ikaba ipfutse na shitingi y'ubururu. Hirya yaho hari jaride y'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bya moto bigera kuri bitatu, ku ruhande hari urupangu rufite ibara ry'umweru, mo imbere ruteyemo jaridi irimo ibiti bitandukanye birebire, ndetse n'indabyo ku kumuhanda hari amapoto y'amashanyarazi ndetse n'amapoto y'amatara.

Imodoka itwara abagenzi ziparitse zifite amabara y'ubururu n'umweru, ndetse hari n'abagenzi bari kugenda ndetse n'abandi bicaye mu tuzu bategererezamo imodoka, dufite ibara ry'ubururu ndetse dushushanyijeho n'ibyapa byamamaza bifite amabara y'umutuku, ndetse n'amabara atandukanye.

Umuhanda uparitsemo ikinyabiziga cya moto, hari umunyamaguru uri kugenda, hari intebe zihari ebyiri ndetse n'igare riparitse ku gikuta cy'amatafari ahiye ndetse hari aba ajenti bacuruza amayinite ya emutiyene bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'umutaka w'umuhondo, hari n'abandi banyamaguru bari gutambuka hirya.

Umuhanda uhagazemo ikinyabiziga cya moto, munsi yaho harimo umuryango ufite ibara ry'umweru, ndetse n'ijerekani mu muryango n'intebe kuruhande, indi miryango ibiri ifite ibara ry'ubururu, hejurufite ibara ry'ubururu ry'amabati, ndetse hari n'ibinyabiziga bya moto, biri kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bigera muri bibiri birebire bifite amabara y'umweru ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru kari gucamo umuntu uri gusunika igare yikoreyeho ibikarito ndetse igitoki ndetse n'umufuka usanzwe ndetse hari n'ay'ibiti bihateye ku k'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga; hari ikinyabiziga kirekire gifite ibara ry'umweru ndetse gifite ikindi inyuma gifite ibara ry'ubururu; hari ibinyabiziga bya moto ndetse hari na ruhurura ku muhanda; hari igiti ndetse hari n'icyapa cyamamaza inzoga hari n'ibindi biti bihateye.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga, cyigisha abantu gutwara imodoka ku muhanda hari n'ibyapa bigera kuri bitatu bifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu hari n'ibiti biteye ku muhanda, ndetse hari n'izindi modoka ziri kuzamuka ndetse n'ibinyabiziga bya moto.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, hejuru kizitijwe n'ihema rifite ibara ry'ubururu riziritseho imigozi ndetse hakurya hari ibiti bihateye bikikijwe na senyenge zifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda uri kunyuramo ikinyabiziga gitwara abantu gifite amabara y'ubururu n'umweru ndetse ku muhanda hari ibiti bitandukanye ndetse hari n'umunyamaguru uri kugenda ufite igare hejuru hari undi muhanda uca hejuru ufite utwuma ku ruhande.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwihariye ihagaze, ifite ibara ry'umweru ndetse na oranje ku ruhande hari ibyuma by'umutuku ndetse hakurya hari inyubako zihari ndetse n'ubusitani buhari ndetse hari n'abantu bari kugenda mu muhanda ugana hepfo.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga, hari ikinyabiziga gitwara abagenzi ndetse n'ibinyabiziga bya moto, hateye ibiti ku ruhande birebire bitandukanye, hari akayira k'abanyamaguru, ndetse hari ruhurura ihari, ifite n'utwatsi ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, hari ikinyabiziga cyikoreye imbaho inyuma, hari ibinyabiziga bya moto, hari n'ibindi binyabiziga ndetse hari n'inyubako ku muhanda ifite amabara y'umuhondo, ndetse hari n'ibiti bihateyeye ku muhanda, ndetse hari n'abantu bari kugenda mu tuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga cya rukururana cyikoreye ibintu byinshi bitwikirije ihema rifite amabara y'ubururu izirikishijweho imigozi, hari umuntu uri gutambuka wambaye akajire k'icyatsi ndetse ku muhanda hateye ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari aho abanyamaguru batambuka hari n'umunyamaguru uri kugenda ndetse hari na ruhurura, uwo muhanda uri gucamo ikinyabiziga gitwara abagenzi, gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, ku muhanda hari n'ibiti bihateye.

Ruhurura hegeranye n'umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bigera kuri bibiri, kimwe cya rukururana n'ikindi kitagaragara neza ndetse hirya hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari uruzitiro rukikijwe n'igitambaro cy'icyatsi imbere hateyemo ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bibiri biri kurenga, hari ikinyabiziga cyikoreye amatafari gifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, hari n'ikindi kinyabiziga gifite ibara ry'umukara kiri kurenga, hari n'ibinyabiziga bya moto biri kuza, ndetse ku muhanda hateye n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, hari umunyamaguru uri gutambuka iruhande rwa ruhurura ndetse hakurya hari ahantu hateye ibiti byinshi ndetse hari n'ibindi binyabiziga bitandukanye bihagaze.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bibiri; ikinyabiziga gisanzwe gitwara abagenzi gifite ibara ry'umweru, ndetse n'ikinyabiziga cy'igare, hari na ruhurura, hakurya hari akayira kagendamo abanyamaguru, hateye ibiti birebire, ndetse hari n'abantu barimo barakoramo, hirya haho.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku ku ruhande hari ruhurura ndetse hakurya hari ibiti byinshi n'abantu bahagaze.

Umuhanda urigucamo ibinyabiziga bitandukanye, hari ikinyabiziga cya moto ndetse hari n'ikindi kinyabiziga cy'imodoka gifite ihema hejuru, hari abantu bahahagaze, hari ibiti ku muhanda ndetse hari n'inyubako zikikije uwo muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo, hari aho abanyamaguru bagendera, haparitse abamotari benshi, hari igiti giteye ku muhanda, hari n'icyapa cyanditseho koka kola gikorerwamo ubucuruzi ndetse n'inyubako hirya, ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, imbere yaho hari igitereviziyo ndetse n'amamodoka aparitse.

Umuhanda wa kaburimbo ishaje, urimo umuntu ufite igarie uhetse igipapuro mumugondo, ufite igare rizirikiyeho umufuka, hariho imodoka itwara abagenzi ifite ibara rya oranje ndetse n' umweru hariho nindi modoka, hari amatara kumuhanda ,hariho namaduka kumuhanda, ndetse nabantu bari gutambuka.

Umuhanda urimo utuzu dutandukanye ndetse n'ubusitani kumuhanda, hari akazu kubakishijwe ibyuma kari mu mabara y'umukara, hasi hari udutebe twicayemo abantu ndetse hari umuntu uhahagaze, hirya naho hari utundi dutebe no ku mpande hari inyubako zitandukanye zihari.

Abantu bari kugenda mu muhanda, ndetse harimo n'utwaye igare rifite ibara ry'umuhondo, hari n'abantu bicaye mu busitani bicaye ku dutebe, ndetse hari ibiti bihateye by'imikindo miremire, hari n'utuzu dukozwe mu mbaho dukorerwamo ubucuruzi, ndetse hari n'andi mazu maremare ageretse nayo akorerwamo ubucuruzi.

Ubusitani burimo indabyo ndetse bwicayemo n'abantu ku dutebe abantu bagera kuri batatu, ndetse hari n'utuzu ku mpande tubakikije, hari n'ahantu bamena imyanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bitatu ukikijwe n'ubusitani bufite utubuye tw'umukara n'umweru, duteyemo imikindo ndetse akaba arimo n'ibyapa bigera kuri bibiri, bishushanyijeho imodoka ndetse bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hari n'abantu bari kugenda hakurya hari n'indi nyubako ifite amabara y'umweru ihari.

Icyapa gifite ibara ry'umutuku n'umweru kiriho igishushanyo cy'umunyamaguru ipoto ry'amashanyarazi rishinze mubutaka inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'irembo rifite ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'ingazi ziri imbere yayo.

Icyapa cya mpande eshatu cyo ku ku muhanda, gifite amabara atandukanye y'umutuku n'umweru, harimo n'ibishushanyo by'umuntu mukuru n'umwana ari kwambutsa, ndetse icyo gishushanyo kiri ku muhanda ahantu hari ibiti biteye ku muhanda birebire.

Umuhanda w'itaka ushinzemo ibyapa bifite ibara ry'umukara, umuhondo ndetse n'akapa kanditseho igororero rya Nyamagabe. Hateye ibiti ku muhanda ndetse hari n'indi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye isize n'amarangi afite ibara ry'umuhondo.

Umuzungu uhagaze mu busitani, hejuru hari icyapa gifite amabara y'umweru cyandikishijweho amagambo y'umukara, hari umuhanda wa kaburimbo, hari amapoto y'amashanyarazi ndetse n'amatara ku muhanda, ndetse hakurya hari inyubako zitandukanye hari n'ibiti bihateye.

Ibiti byinshi ndetse n'ubusitani, biteye ku muhanda wa kaburimbo, hariho icyapa cyanditseho amagambo y'imibare mirongo itandatu, ndetse n'iriho igishushanyo cya kamera, hari umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga, ndetse imbere yaho hari kamera ihari.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo abanyamaguru, hari abahagaze ndetse hari n'abari kugenda, hari icyapa ku muhanda gishushanyijeho umuntu utwaye igare, gifite ibara ry'umweru n'umutuku, ndetse hari n'inyubako ihari ya etaje ifite amadirishya y'ubururu ndetse n'umweru, hari ikinyabiziga kiri kugenda, hari n'ikindi gipangu gifite utwuma ku mpande dufite ibara ry'umweru, hari igiti mo imbere giteyemo.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bigera kuri bibiri, hari akayira k'abanyamaguru ndetse munsi hateye ubusitani burimo ibiti by'amoko atandukanye, hari ipoto ry'amashanyarazi ndetse hari n'akapa kanditseho Bugesera disitirigiti.

Ibyapa byo ku muhanda, hari ibyapa bigerekeranye bibiri biriho igishushanyo cy'umunyamaguru uri kwambuka ndetse n'utwapa turi munsi tugaragaza hasi no hejuru ndetse ku muhanda hateye ibiti bigera kuri bibiri birebire ndetse n'utundi duti dutoya.

Umuhanda wa kaburimbo, uriho icyapa gifite amabara y'umutuku n'umweru cya mpande eshatu ndetse harimo n'inyuguti ya t yanditsemo itambitse, hariho ubusitani buriho ibyatsi ndetse n'indabo zifite ibara ry'icyatsi, hari n'inzu ifite igisenge cy'umutuku ndetse n'umweru, isize amabara y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga by'imodoka ndetse n'ibinyabiziga bya moto, harimo abanyamaguru bari kugenda, hari amapoto y'amatara ari ku muhanda, hari igiti kihateye, ndetse n'inyubako zihari zikorerwamo ubucuruzi.

Inzu isize ibara ry'umuhondo na shokora, ndetse n'umweru, ifite akabaraza, ifite urupangu rw'ivu, ndetse ifite n'iduka hanze, imbere yaryo hari imodoka y'umukara ndetse hahagaze n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu, hari insinga z'amashanyarazi ni poto hari n'urupangu rw'amatafari.

Inzugi z'umukara zifite n'inkingi y'ivu ifite udutara hejuru mo imbere harimo inyubako y'amabara y'umweru ndetse n'ivu, imbere ku rubaraza hateye ibiti by'indabyo ndetse ku mpande hari ututwuma dukikije kuri izo ndabyo, ndetse ku ruhande hari n'ibindi biti bihateye.

Inzu igeretse kabiri ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, hasi hakorerwamo ubucuruzi yaba inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti ndetse n'iyindi nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imboga n'imbuto, ifite ibirangantego by'amabara y'umuhondo ndetse imbere yaho hicaye umuntu, aparitse n'ibinyabiziga bigera muri bitatu.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo umuntu ufite ikinyabiziga cya moto, inyuma ihetse gaze zifite amabara y'umutuku n'umuhondo ndetse hari n'umunyamaguru uri kugenda, ku muhanda hari ibiti bigera kuri bine by'imikindo ndetse hirya hari imodoka ihari ndetse hari n'inyubako y'inzu ifite amabati y'umutuku, yubakishijwe amatafari ahiye, na yo imbere yaho hari ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani buriho ibyatsi bigufi ndetse n'ibindi biti birebire, hari gucamo ibinyabiziga birenga ndetse hari inyubako iri hakurya yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isize n'amarangi ari mu mabara y'umweru, hari n'amatara ku muhanda.

Inyubako ya etaje ndende, ifite ibara ry'ivu ndetse n'ubururu, hejuru iriho agaseke gahari kanini, hasi hateye ubusitani buriho indabo ndetse n'ibiti birebire ndetse n'indabo ziconze neza, mu muhanda uhari haparitsemo imodoka ifite ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye by'amabara atandukanye, hari n'akayira k'abanyamaguru kari gutambukabamo abanyamaguru ndetse n'amapoto y'amashanyarazi ku muhanda, hari n'inyubako zikorerwamo ubucuruzi zigeretse kabiri na zo zifite amashanyarazi hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga cy'imodoka, hari aho abanyamaguru bagenda, ndetse hirya hari igihuru kirimo ibiti byinshi ndetse n'indabyo nyinshi, zifite amabara y'umuhondo zirimo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kwambukamo umunyamaguru ndetse hari n'agahanda kaganyuramo abanyamaguru, gaparitamo imodoka zitandukanye ndetse n'ibinyabiziga bya moto ndetse hari n'inzu ya etage igeretse gatatu ihari ikorerwamo ubucuruzi, iriho ibyapa bitandukanye.

inyubako ya etaje ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ifite utwuma hejuru hariho ibigega bigera muri bibiri ndetse ifite n'urupangu rw'umukara rwubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hariho amatara abiri, hariho n'ubusitani bufite indabo z'umuhondo ndetse na pasiparumu n'ibindi biti bihateye.

Umuhanda w'itaka uri kunyuramo umunyamaguru, ndetse hari n'ubusitani ku kumuhanda hari amapoto y'amashanyarazi afite insinga zitandukanye, hari ikinyabiziga gihagaze hahagaze n'umuntu, ndetse hakurya hari andi mazu atandukanye afite amabati afite ibara ry'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya moto, ku muhanda hateye ubusitani burimo imikindo ibiri ndetse n'izindi ndabyo zitandukanye, hari n'inyubako ebyiri zitandukanye ndetse hari n'imodoka zihahagaze n'abantu bari kugenda n'amaguru.

Inyubako ndende cyane, ifite amabara ajya gusa icyatsi cyijimye, n'amadirishya afite ibara ry'ubururu, hariho akandi kazu ku ruhande, ndetse hubakishijwe igipangu cy'amatafari ndetse n'amabuye, umuryango ufite ibara ry'umukara, hirya yaho na ho hari undi muryango w'ibara ry'ivu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo imodoka zitandukanye inini n'intoya, yaba izigenda yaba izigaruka, harimo abatwara ibinyabiziga bya moto, hari abanyamaguru bari kugenda n'amaguru, ndetse harimo amapoto y'amatara, ndetse hari n'ibiti bihateye.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'ibiti, hari n'inyubako ya etaje ndende ifite amabara y'umweru ndetse n'amabara ya kaki nayo ifite ubusitani' imbere ndetse ukikijwe n'urupangu rufite ibara ry'umweru ndetse n'utwuma duhagaze ku mpande zifite ibara ry'umukara.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, iri mu mabara y'umweru, hakorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'abagabo ndetse n'inkweto, hariho amafoto y'ibishushanyo bishushanyijeho abagabo, hari ibindi bishushanyo bishushanyijeho amashati, amasogisi ndetse n'inkweto.

Ubusitani buri ku muhanda, buteyemo ibiti birebire ndetse hari n'agahanda ka kaburimbo gatoya, hakurya hari urukuta rw'amatafari, imbere harimo inzu igeretse kane, ifite amabara y'umweru, yubakishijwe n'amatafari ahiye ndetse ifite n'amabati afite ibara ry'umutuku.

Inyubako ya etage ndende ifite ibara ry'umweru, iriho amadirishya menshi atandukanye, hariho icyapa cyamamaza inzoga, munsi harimo amamoto aparitse agera muri atatu afite utuntu tw'utubogisi, hakaba haparitse n'imodoka y'umukara.

Urukuta rufite ibara ry'umweru n'ubururu, imbere harimo ibikinisho by'abana bari gukiniramo bifite amabara y'ubururu, abana bambaye imipira y'umuhondo ndetse hari n'ibiti bihateye ndetse hari n'udutebe duhari kuri ibyo bikinisho.

Umuhanda wa kaburimbo, ku muhanda hateye ibiti bitandukanye ndetse hari n'ibinyabiziga bihagaze bigera muri bitatu, hari n'abantu bari kugenda ndetse hari inyubako ihari, ifite amarangi y'umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo hariho inyubako zigera muri eshatu ziri hakurya, inyubako ya mbere itaruzura neza, indi nyubako nayo ikorerwamo ubucuruzi ndetse hasi no hejuru, hari n'inyubako iri hirya y'umweru, ifite hejuru akapa ka sikolu k'umuhondo munsi yawo haparitse ibinyabiziga.

Inyubako ndende ifite ibara ry'umuhondo, ndetse no hejuru h'umutuku, ifite amadirishya agera kuri atanu afite ibara ry'umukara, hejuru hamanitse ibigega bigera muri bitatu bifite ibara ry'umukara, ku mpande hari ni indi nyubako ifite amabara y'umweru ifite utwuma hejuru iteyeho n'uduti tubiri hejuru.

umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwihariye gifite amabara y'umweru na orange ndetse n'ibindi binyabiziga biri kuhanyura hari inyubako ebyiri imwe isanzwe ikorerwamo ubucuruzi ndetse n'iyindi igeretse gatatu imbere haparitse imodoka ndetse hakaba hari n'umutaka wa mtn ndetse n'akabati

Igisambu kirimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti bihateye, harimo n'umurima uteyemo intoki, ndetse hakurya hari umuhanda w'ibitaka, hakurya na none harimo umurima w'ibigori, ndetse n'amazu ari hakuno ndetse no hakurya, afite amabati afite ibara ry'umutuku, inzu zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako ya etage igeretse gatatu iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara hariho ibyapa bitandukanye biri mu mabara y'umweru, hari icyapa kinini kiri mu mabara y'ubururu hashushanyijeho umuntu ndetse hashushanyijeho n'igishushanyo cy'indege, ndetse munsi haparitse ibinyabiziga by'imodoka bitandukanye hari n'ibiti ku muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kugenda n'abandi bahagaze hari ibiti bihateyeye ku muhanda ndetse hari umutaka ufite ibara ry'umutuku uri mu birangantego bya eyateri hari inyubako igeretse kabiri yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'umuryango ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru ndetse hari n'izindi nyubako zihari ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo abantu babiri, iburyo hari igipangu cy'amatafari ahiye, gifite n'umuryango ufite ibara ry'umukara uteyemo n'ibiti mo imbere, hakurya ibumoso hari ikindi gipangu gifite amatafari y'umukara ndetse n'umuhondo giteye ubusitani hanze.

Abantu batandukanye bari kugenda mu muhanda, haparitsemo ibinyabiziga bya moto, harimo inyubako zitandukanye, hari inyubako ihari ifite urubaraza, rumanitseho icyapa kiriho urufunguzo ndetse hari n'indi nyubako ifite irangi ry'umweru, hari amapoto y'insinga ku muhanda ndetse hakurya hari inzu ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ayandi mazu afite amabara atandukanye.

Ubusitani buri ku muhanda wa kaburimbo buteyemo indabyo n'ibiti birebire, ndetse hakaba hari kaburimbo, hakurya hari inyubako ya etaje ifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo na ho hateye ubusitani bw'indabyo ndetse n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda uri gucamo abanyamaguru, hari umuntu wicaye imbere y'umutaka ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'akabati k'umuhondo, hari n'amapoto y'amashanyarazi afite insinga nyinshi, aho ari hari inyubako zihari, hari ibinyabiziga bihagaze, hari n'ikindi kinyabiziga kiri gutambuka mu muhanda, ndetse n'ibinyabiziga bya moto.

Inyubako ndende iri ku muhanda isize amabara y'umukara ndetse n'umweru, hariho igishushanyo kiriho inzoga ebyiri za sikoru, imbere hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'indabyo, ndetse hari akayira k'abanyamaguru kazitijwe n'utubuye tw'umukara n'umweru hari na kaburimbo.

Inyubako ndende igeretse gatatu ifite amabara y'umuhondo ndetse n'amadirishya y'umukara, ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiryo n'imbuto, munsi yaho haparitsemo imodoka zigera kuri eshatu, zifite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'ibara ry'ivu, hari n'umumotari uparitse aho ngaho.

Inyubako ndende ya etaje, ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo hejuru handikishijwe amabara y'umutuku ndetse hasi hari imiryango ifite ibara ry'icyatsi ikorerwamo ubucuruzi izitijwe n'igipangu gifite utwuma duhagaze imbere yaho haparitse ibinyabiziga icy'umukara ndetse nicy'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya moto, iby'igare ndetse n'imodoka zisanzwe, hari akayira k'abanyamaguru, hari ubusitani buteyemo n'ibiti birebire ku muhanda, hari inyubako ku muhanda ndetse hari n'amatara.

Umuhanda wa kaburimbo uriho aho abanyamaguru bambukira, hariho imirongo y'umweruru ndetse n'ibyapa bigaragaza igihe abanyamaguru bambukira biri kwaka amatara y'umweru n'umutuku ndetse hari amatara ku muhanda, hari n'icyuma gifotora abantu bafite umuvuduko mwinshi ndetse n'ikinyabiziga cya moto n'ibiti ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ziri kugenda zifite amabara y'umukara, izindi zifite amabara y'umweru ndetse hari n'amapoto y'amatara ari kwaka, hari n'ubusitani bw'indabyo ndetse n'ibiti biteyemo.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri by'imodoka zizamuka ndetse n'izimanuka, hari gucamo imodoka ifite ibara ry'umutuku ndetse hari imirongo yambukiraho abanyamaguru iri kwambukwaho n'abanyamaguru bari guca hirya ndetse hari amatara ku muhanda, hari imikindo ikiri migufiya, hakurya hari n'amaduka ahari amanitseho ibyapa.

Umuhanda wa kaburimbo hari aho abanyamaguru bambukira hariho imirongo y'umweru hariho abantu bari kwambuka ndetse n'ikinyabiziga kiri gutambuka gisanzwe ndetse n'ibinyabiziga bya moto hakurya hari urukuta rw'amabuye hateye ubusitani bw'ibiti birebire ndetse na pasiparumu.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya moto n'ikinyabiziga k'igare, ndetse n'ikinyabiziga cy'imodoka hari n'ikindi kinyabiziga kiri mu mabara y'umutuku gihagaze hari akayira k'abanyamaguru, hari n'ibiti bihateye ndetse hari n'amapoto y'amashanyarazi ahari ku muhanda.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo, kiriho igishushanyo cy'umunyamaguru uri gutambuka, ndetse muri kaburimbo hari gucamo ibinyabiziga bitandukanye, ndetse n'ibinyabiziga bya moto, hari ipoto ry'amashanyarazi rihari, hari n'inyubako ndende ihari, ndetse hari n'ibiti biteye ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hariho ruhurura ikikijwe n'utwuma dutandukanye ndetse hariho n'uturongo muri kaburimbo tw'umweru abagenzi bambukiraho, imbere y'utwo turongo hahagaze umuntu ndetse hakurya hari imodoka zirimo ziragenda n'amatara ari kwaka ku muhanda ndetse hariho n'ibiti biteye ku muhanda.

Umuhanda w'igitaka iburyo bwawo n'ibumoso hari amazu agiye atandukanye. Ndahabona igipangu cy'amabara y'icyatsi ndetse iyo nzu isakaje amabati atukura. Hakurya y'umuhanda hari umukindo mwiza uri imbere y'igipangu cy'amatafari.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri kugenda, ku ruhande hari ubusitani buhateye burimo indabo z'icyatsi ndetse n'umuhondo ndetse n'amatara yo ku muhanda, hejuru hari uw'undi muhanda unyuramo imodoka, ufite utw'uma ku mpande.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga cya moto ndetse n'imodoka, hari akayira k'abanyamaguru, hari igiti kihateye ndetse hejuru hari ikiraro kinini gishinze ibyuma, hejuru gifite utwuma dutambitse cy'umuhanda utambuka hejuru.

Umuhanda w'ibitaka ugana kuri kaburimbo, ufite inzu ku ruhande ziteyeho ubusitani hanze bw'amabara y'umuhondo ndetse n'ibiti birebire. Ifite umuryango ufite ibara ry'umukara, mw'imbere harimo inzu, y'igisenge cy'amabati asanzwe.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo, ikinyabiziga gitwara abagenzi, gifite ibara ry'umweru n'umuhondo, ndetse hari n'ikindi kinyabiziga cya moto, hakurya hari icyapa kiyobora kiriho amabara y'umutuku n'umweru, hejuru hakaba hari ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri ikijya iburyo n'ikijya ibumoso, hagati harimo umurongo w'ibara ry'umuhondo, ubitandukanyije, ndetse hari n'aho abanyamaguru bambukira, hafite ibara ry'umukara n'umweru hateye n'ubusitani burimo ibiti birebire, ndetse harimo n'imodoka ziri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo ugana ibumoso n'iburyo mo hagati hahagazemo igare iruhande rwa ruhurura, hakurya hari agasima ndetse hari n'ahantu hari igihuru n'ibyatsi byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka zisanzwe, ku muhanda hari utwuma duhari dutambitse ndetse hari n'andi mazu ahari afite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hateye n'ubusitani buteyemo indabyo zifite ibara ry'umutuku ndetse na pasiparome.

Imihanda ibiri ya kaburimbo, ni nijoro irikwakamo amatara undi muhanda uri kugendamo ikinyabiziga ku muhanda hari ibiti bihateye n'imikindo, ndetse na jaride ikikijwe n'utubuye tw'umukara n'umweru, ndetse hari abantu bari kugenda hari n'amaduka ari hakurya acanye amatara hanze.

Imihanda ibiri ya kaburimbo itandukanyijwe n'ubusitani burimo hagati bukikijwe n'utubuye tw'umukara n'umweru harimo abamotari ndetse n'abantu batwara amagare hakurya hari urukuta rw'amabuye hejuru hari inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu yandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite inzira ebyiri ibumoso n'iburyo, hari amapoto y'amashanyarazi afite insinga ndetse hari ubusitani buhari, hari n'ibiti bihateye birebire, munsi y'umuhanda hari inyubako zigera muri ebyiri zihari.

Akapa kari ku muhanda, kanditseho ka ga magana atandatu mirongo icyenda n'umunani. Hari igiti kihateye, hari ipoto rihashinze ry'amatara, hari ibinyabiziga biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo. Hakurya hari inyubako zihari ndetse n'ibiti bihateye.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga cyanditseho ko gitwara inyama ndetse hari ikindi kinyabiziga cy'igare kiri gutambuka. Ku muhanda hariho amatara, hariho ibiti ndetse n'indi nyubako ndende ihari hejuru ifiteho insinga zitandukanye.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu urwanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bambukira, harimo imirongo y'umweru ndetse n'ibyapa ku muhanda biri kwaka amatara y'icyatsi ndetse n'umweru na oranje. Hari n'ibinyabiziga birimo biragenda yaba ibya moto ndetse n'ibindi bisanzwe ndetse n'icyuma gifotora abantu bafite umuvuduko, hari n'ibiti biteye ku muhanda ndetse n'amapoto y'insinga.

Umuhanda wa kaburimbo ufite iburyo n'ibumoso, ku ruhande hari ubusitani buhateye bukikijwe n'utubuye tw'umukara n'umweru, hateyemo imikindo, hari n'aho abanyamaguru bagendera, hari kugendamo abanyamaguru, hari n'umuntu utwaye ikinyabiziga cy'igare, hakurya hari urukuta rw'amabuye rukikijwe n'ibiti hejuru ndetse n'inzu ifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri ikigana iburyo n'ibumoso. Ku muhanda hari amatara ndetse hari n'ubusitani buhari buriho indabyo, ndetse n'ibiti byinshi, ndetse n'ibyapa ku muhanda, ndetse imbere hari n'ikindi kiraro cy'umuhanda uca hejuru.

Umuhanda urimo abamotari babiri, umumotari umwe ahetse umugenzi w'umugabo uteruye igikarito, ndetse undi mumotari atwaye umugore uhetse igikapu mu mugongo. Hari n'ubusitani bukikijwe n'utubuye tw'umukara n'umweru, buteyemo indabyo ndetse n'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite ibisate bibiri, ndetse n'iburyo n'ibumoso, ku umuhanda hari ubusitani burimo indabyo ndetse n'imikindo ikiri migufi, harimo utubuye tw'amabara y'umukara n'umweru, hari kunyuramo ibinyabiziga bya moto, ndetse ku muhanda hateye n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo abamotari benshi bafite ibinyabiziga bya mota ndetsa n'abantu bari gutega moto hakurya ibumoso hari undi muhanda uca munsi y'uwundi uri hejuru nabwo uri gucamo abanyamaguru hejuru hari umuhanda ufite utwuma kuruhande ndetse n'amatara arimo araka.

Akazu gafite ibara ry'ubururu abagenzi bicaramo kari ku muhanda, hari n'umuhanda uri gucamo ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka ku muhanda hateye ibiti birebire, imbere hari n'ikiraro cy'umuhanda uca hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka zisanzwe ndetse ku muhanda hateye ibiti hari n'imodoka ziparitse munsi y'amaduka ahari, hari iduka rifite icyapa cya eyateri cy'umukara ndetse hari n'indi nzu igeretse kabiri.

Umuhanda wa kaburimbo uri kwakamo amatara ku muhanda atandukanye ndetse harimo no gucamo ikinyabiziga kiri kwaka amatara, hakurya hari inyubako zihari zifite ibara ry'umukara na ryo riri kwaka amatara ndetse hari n'ubusitani buhari ku muhanda buteyemo imikindo itandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga, ndetse hari aho abanyamaguru bambukira, harimo imirongo y'umweru, ku muhanda hari amapoto y'amashanyarazi ndetse n'amatara, ndetse hari n'amaduka akorerwamo ubucuruzi afite ibara ry'umweru n'ubururu, hakurya hari andi mazu atandukanye afite ibisenge nabyo bitandukanye ahari, ndetse hari n'abanyamaguru bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri icy'iburyo nicy'ibumoso hari gucamo ibinyabiziga bya moto hagati hateye ubusitani butoya ndetse burimo n'imikindo umuhanda hari amatara ndetse hari n'amapoto y'amashanyarazi hari n'ibiti bihateye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri, ufite aho abanyamaguru bambukira, hari ibara ry'umweru harimo umunyamaguru utwaye igare mu ntoki uri kurisunika, ndetse hari n'umunyamaguru uri kwambuka, hakurya hari amatara ku muhanda hari n'amazu, hakurya hari n'ibiti bihateye.

Kaburimbo igaragaza aho abantu baca, iburyo n'ibumoso, ndetse harimo n'imirongo y'umweru, igaragaza aho abanyamaguru bambukira, ku muhanda hari amapoto abiri y'amashanyarazi, ndetse hari n'ibiti biteye ku muhanda, hari n'abantu bari kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga iburyo ndetse n'ibumoso hari amapoto ku muhanda ndetse hari n'ubusitani butoya hari abanyamaguru bari gutambuka ndetse hari n'ibiti birebire biteye impande zitandukanye z'uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya moto, hakurya hicaye umuntu wicaye ku gasanduku ka emutiyene ufite n'umutaka wa eyateri, iruhande rwe hari inzu y'icyatsi ifite n'ibara ry'ivu ndetse hari n'ibyapa biri ku muhanda biri kwaka amatara.